Ishusho igaragaza ibyerekeye ubuhinzi, hagaragara ko ari ahantu hateguwe neza hakorerwa ubuhinzi, haragaragara ibiti, intoki ndetse n'ibiti.

Ifoto igaragaza ibyerekeye ubworozi bw'inkoko, aho bigaragara ko hari inkoko zikiri ntoya, ziri kunywa amazi.

Ishusho igaragaza umuntu uri kugaburira inka z'inyambo, bigaragara ko ashobora kuba ari umuntu wabihuguriwe, kuko imyambaro yambaye igaragaza ko ari umuntu ukora kinyamwuga.

Ifoto igaragaza muri rusange umusaruro w'abahinzi, igaragaza n'ubuhinzi uri aho ukurikirana iby'umusaruro ukoze neza.